Aha hari abantu baje mu mahugurwa barakurikiye bari guhugurwa, hari uri imbere yabo afite indangururamajwi ari kubabwira, ikigaragara cyo bose barikumva nta n'umwe urangaye pe, barakurikiye bahawe amazi yo kunywa kuko buri wese amuteretse imbere.

Ahari hari kuba amahugurwa, ndetse umwe muri bo yahawe ijambo, abo mvuze ni abari mu nama, ari kubabwira aranguruye ijwi akababwira, bamuteze amatwi, ariko mu by'ukuri harimo bamwe bari gusinzira, sinzi niba ari uko batari kubyumva, hari n'abandi bakurikiye, cyane cyane nk'umwari urimo watunguwe.

Aha abantu hari abantu bari mu mahugurwa; barakurikiye, bafite ibikoresho bigiye bitandukanye. Bamwe bari kureba mu mashini, abandi bari kureba mu amaterefoni, abandi bafite amakaye mu ntoki. Barakurikiye cyane, biragaragara yuko ibintu ari ingirakamaro kuko nta n'umwe urangaye kandi rwose bafite umurava bateze amatwi.

Aha hari abantu bari mu nama bari guhabwa amahugurwa pe! Barayakira kandi bateze amatwi bambaye impuzankano zisa n'iz'abaforomo, bateze amatwi barikumva neza ibyo babwirwa si benshi cyane kuko bigaragara ko bose bari kumva kandi bitaweho ntan'umwe ushobora kurangara.

Aha ni mu cyumba cy'inama; aho harimo abantu baje guhabwa amahugurwa, bigaragara ko bamaze gufata ifunguro kuko imbere yabo hari ibikoresho byakoreshejwe. Kandi bigaragara ko bamaze umwanya munini, kuko bamwe muri bo bararangaye. Harimo abari kureba iburyo abandi ibumoso, hari abasinziriye ndetse n'abandi ubona bigaragara ko ari nk'aho bitabareba.

Aha bari mu nama, umuyobozi yahawe ijambo ari gusobanurira abaturage ikijyanye n'ingengo y'imari. Abaturage rwose barishimye barafunga ibipfunsi bakavuga ati oye, oye, oye! Bigaragara ko ingengo y'imari nta kabuza yateye imbere.

Aha ngaha hari abantu bari mu mahugurwa, umubare wabo bose hamwe ni batanu, bane bari guhugurwa ndetse n'undi umwe uri kubahugura, bombi bafite imashini imbere yabo, uri kubahugura porojegiteri imbere ye bigaragara ko ari kubereka ibintu nabo bahita babikora.

Aha hari umugabo wahawe ijambo mu by'ukuri bigaragara ko ari inama, ari gutanga ibiganiro bigiye bitandukanye, uyu munsi icy'uyu munsi kiri kwibanda ku bijyanye n'udushya mu bijyanye n'imiyoborere mu Rwanda, biragaragara ko ari kubivuga abisobanura neza kandi byumvikana.

Aha hari abantu bari mu nama bicaye ahantu hadekuye hari amatente, bicaye mu itente bari kwishima, barishimye, umwe arareba undi agaseka, bakareba ibibari imbere, imbere yabo hari indangururamajwi hakaba n'amazi, bose bose barishimye.

Aha abantu bari mu mahugurwa mu by'ukuri bicaye mu nzu y'inama hari abicaye imbere hari n'abandi bicaye bari kubareba bigaragara ko bicaye imbere ari abari gutanga ikiganiro, hari umwe muri bo uhagaze ufite indangururamajwi uri kubabwira.

Aha hantu hari sare nziza cyane we, iki cyumba k'inama kirimo abantu bagiye batandukanye, harimo abazungu, abirabura, imbere yabo hateretse indabo nziza haratatse cyane bigaragara ko ari abantu b'abakire kandi biyubashye, bigaragara ko aha hantu hagiye kubera ikiro cy'akataraboneka.

Iyi ni inama, inama bigaragara ko yahuriyemo n'ingeri zigiye zitandukanye, haba urubyiruko haba abakuze mu rugero ndetse n'abasheshekanguhe bose barakurikiye bateze amatwi bari guhugurwa, imbere yabo buri wese afite telefoni yaje yitwaje urupapuro ndetse n'ikaramu ndetse imbere yabo hateretse amacupa y'amazi.

Aha hari abantu bari mu mahugurwa, bari guhugurwa bamwe barandika bafite amakayi, bafite amatelefoni imbere yabo ndetse bafite n'amacupa y'amazi, bigaragara ko babyishimiye kandi ari ingirakamaro, kuko iyo urebye ubona bose bakurikiye kandi bashishoza, nta n'umwe uri kureba ku ruhande.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda kiri kugaragaza uburyo batanga serivisi ndetse bagakora n'ubucuruzi hifashishijwe ikoranabuhanga ibi rero bari bari kugaragaza uko byakorwa ndetse n'imbuga bikorerwaho.

Aha haragaragazwa uburyo Rwanda Revenue ikora mu Rwanda, iki ni ikigo k'imisoro ndetse n'amahoro. Baragaragaza amashami yayo, bakagaragaza ibarurishamibare, bakagaragaza raporo y'ubushakashatsi, ndetse n'ahantu wabarebera hagiye hatandukanye.

Aha hari ingengabihe yo kwishyura imisoro, nk'uko bigaragara tariki cumi n'eshanu z'ukwa cumi n'abiri, ni ukumenyekanisha no kwishyura imisoro y'ukwezi. Hanyuma mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, ni ukumenyekanisha no kwishyura ku byinjiri. Hanyuma mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na rimwe, ni umunsi ntarengwa wo kumenyekanisha ndetse no kwishyura.

Aha hari umunara wa netiwake uyu munara ni muremure, hirya yawo hari ibihu byinshi cyane bigaragara ko ari ibihu byiza kuko biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, ibi bintu bigaragaza neza yuko uyu munara utanga netiwaka.

Aha bari kugaragaza aho ikigo cy'igihugu cy'iterambere m'u Rwanda giherereye, bakakigaragaza ndetse bakagira bati ''urakaza neza mu kigo cy'igihugu cy'iterambere''.

Ahari ifoto y'abantu babiri; n'umukobwa uri kumwe n'umusore bari gukora ubushakashatsi biga ukuntu wahindura aho utuye ubinyujije mu kwihangira imirimo.

Aha hari ihuriro ry'isinga z'amashanyarazi, hubatse ikintuze kinini kizifata, ikigaragara cyo ikintu ni cyo gitanga umuriro ujya mu nce zigiye zitandukanye hirya no hino, hari abantu babiri bahacunga, abo bombi baba bambaye ingofero ndetse n'jiri, iyi ngofero bigaragara ko ikoreshwa nka bumwe mu buryo bw'ubwirinzi.

Iyi ni ifoto yo ku muhanda iriho insinga nyinshi, ijyanwa mu byerekezo bigiye bitandukanye ahangaha niho umuriro ufatirwa, iri ni ifatizo ry'umuriro nk'uko bivuzwe mu by'ukuri izi nsinga ziragenda zigasakaza mu duce twose aho bateganyije kugeza uwo muriro.

Ahangaha ni ahari ipoto ry'ihuriro ry'amashanyarazi ahangaha niho usanga haturuka umuriro ujya munce zigiye zinyuranye mu by'ukuri usanga nta kindi gikorwa gikorewe aho kuko bahaha intera mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Hano hari amapironi mfatizo y'umuriro, aya mapironi ari hagati mu biti, hari ibirabyo ndetse n'ibiti byinshi, ako ibibyegera barabitemye kugira ngo babashe kubona ubwisanzure.

Ahangaha ni ku ipironi fatizo, bahafatira umuriro ujyana mu byerekezo bigiye bitandukanye, bigaragara yuko hari insinga nyinshi, hakaba amapiloni menshi, ndetse hakaba n'amatara, ano amatara maremare yo ku mihanda, iri ni ipironi mfatizo, kuko bigaragara yuko ariho hagenda hagemurira uduce tugiye dutandukanye.

Aha haragaragara amapironi mfatizo y'umuriro, ni amapironi abiri ateganye maremare cyane yenda gukora ku bicu, igicu ni cyiza cyane, iki gicu kirimo ibara ry'ubururu ndetse n'irindi ry'umweru ni igicu cyiza nk'uko bigaragara.

Aha hari inzu y'ubucuruzi, bigaragara ko ari iy'ahantu mu karere, aho hafi ahongaho hari amapiloni yo ku muhanda, hariho amatara ndetse maremare, hejuru yaho hari ikirere kimeze neza ariko nanone kidasa neza cyane. Iyi nyubako igizwe n'amabara y'bururu ndetse na oranje.

Aha ni mu muhanda rwagati hari amapironi afatiyeho umuriro ku muhanda, hari abantu bari gutambuka ku mpande zabo hari ibiti by'inganzamarumbo ndetse hakaba n'indabyo, abantu baratambuka batekanye mu muhanda mwiza bigaragara ko ari uwa kaburimbo ndetse bakaba bari kugendera mu nkengero zawo.

Aha hari inyubako nziza, inyubako zigeretse nka kabiri cyangwa gatatu ugereranyije. Ziri ahantu heza hari imihanda myiza, bigaragara ko zishobora kuba arizo guturwamo cyangwa se bikaba ari ibikorwa remezo.

Iyi ni ishusho igaragaza ikigo gitanga serivise, mu by'ukuri hari icyapa kiyobora abantu, kikwereka buri serivisi ukeneye n'aho wayibariza, ahantu ni heza hateyemo indabyo nziza. Harimo amazu meza, ndetse hakurya yaho ukabona inyubako nziza cyane, ndetse n'ikirere cyiza.

Aha ngaha biragaragara ko ari mu kigo nderabuzima. Hari abarwayi benshi baje kwivuza. Bamwe baryamye ku ntebe bategererezaho abandi baricaye ariko biragaragara ko barembye kuko barananiwe biragaragara kandi ko hari benshi cyane hari abahagaze mu madirishya, hari abicaye, ndetse hari n'abahagurutse.

Aha hari umuntu wahawe ijambo ahagaze imbere y'abantu rwose nubwo tutari kubabona, afite indangururamajwi ari kubabwira, ni umumama wambaye neza mwiza arasa neza pe! Yambagiye agashati k'ubururu, akajipo k'ubururu maze ahagaze mu cyumba cy'inama gitatse neza, kirimo n'ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Aha hari kuba inama ariko bikagaragara ko hari inama iri kubera ahantu mu nkengero z'umujyi, hari kugaragara inzu hakurya yabo ariko na none wareba ukabona bitewe n'ukuntu bateye intebe ahantu bigaragara ko ari mu mbuga, hari umuntu uri kubabwira; ari kubasobanurira ibintu, nabo barakurikiye rwose bateze amatwi.

Aha hari ifoto y'umucamanza yambaye amakanzu asa nkaho ari abiri, imwe y'umukara ndetse n'indi y'umutuku, afite ubwanwa buke, nta musatsi afite, afite amatwi asa nkaho ari maremare ariko nanone atari manini.

Aha hari umumama wirabura yambaye ikanzu y'umutuku, afite imisatsi y'umukara amazuru maremare, akagira amatwi asa nk'aho ari manini, arahagaze aremye, ameze neza cyane rwose.

Abanyururu bari imbere y'urukiko. Abacamanza bicaye imbere yabo na bo bicaye inyuma yabo. Bicaye bambaye imyambaro izwi nk'impuzankano y'abanyururu ndetse bambaye n'amapingu. Bigaragara ko baje imbere y'ubucamanza.

Aha hari umucamanza arahambaye, ariko wagira ngo yambaye ibintu byinshi, biri kugaragara nkaho yaba yambaye ikanzu y'umukara, akaba yambaye n'indi y'umutuku, akaba yambaye karuvati ndetse n'ishati.

Aha hari ifoto iri kugaragaramo abacamanza mu myambaro y'ubucamanza baraberewe cyane. Si ibyo gusa kuko hagati yabo hahagazemo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda, bigaragara ko bari bamaze kurahirira inshingano zo kuzaca impanza zizira kubera.

Aha ngaha biragaragara ko ari mu bubiko bwa kizimyamwoto; izi kizimyamwoto zihari nyinshi, harimo inini, intoya, indende ndetse n'ingufi. Ziteretse mu cyumba cyabugenewe ndetse zirazitse; bigaragara yuko zifashishwa iyo hagize ahaba inkongi y'umuriro.

Aha hari kubera ibikorwa byo kuzimya mu by'ukuri bigaragara ko hasa nk'ahahiye, hari abantu bambaye imyenda yabapfutse umubiri wose ndetse bafite na za kizimyamwoto mu ntoki, bari kugenda bazifashisha bazimya batera ibyotsi bizamuka.

Aha ni mu muhanda, uyu muhanda ufite ibice bibiri ik'iburyo ndetse n'ik'ibumoso, mu by'ukuri mu gice k'ibumoso hari kugaragara imodoka ya polisi ndende izwi nka kwasiteri naho iburyo hari imodoka ntoya y'ivatiri nayo irimo imanuka, imwe irazamuka indi ikamanuka.

Aha ni mu nzu ndetse hari kizimyamwoto ijombye ku rukuta ifasheho, bigaragara ko ari inzu ishobora kuba ari rusange ihurirwamo n'abantu benshi, ibi bakaba barabishyizeho nka bumwe mu buryo buzakoreshwa, bitabara mu gihe hagize icyaba nk'impanuka.

Aha ngaha hari inzu, iruhande rw'iyo nzu hari icyapa, icyo cyapa kiragaragaza aho ishami rya Nyamirambo rikorera ry'igihugu ry'ubugenzacyaha, ndetse bagaragaza numero y'ubuntu ushobora guhamagara, bakerekana yuko ari ibihumbi bitatu magana atanu na cumi nabiri, maze ukabahamagara ugahabwa ubufasha.

Iki ni icyapa kigaragaza icyicaro cya polisi giherereye ahangaha nk'uko bigaragara kuri iki cyapa, biragaragara ko ari polisi y'urwanda, ikaba akarere ka Nyarugenge, mu gihe bagaragaza yuko ari ku cyicaro cya Rwezamenyo bashyizeho ibyangombwa byose uramutse ukeneye kubahamagara wakwifashisha.

Aha hari ifoto iri kugaragaza rwose isibo y'ubwiza, hakagaragaramo umukandida wari kwiyamamaza. Uyu mukandida biragaragara ko amazina ye atari kugaragara neza ariko ugenekereje ubona yuko nta bantu bari bamuri inyuma ukoresheje impuzandengo bari bagaragaje.

Aha ngaha ndi kuhabona agasanduku k'itora, aka ngaka ni kamwe bashyiramo amajwi abamaze gutora, ndi kubona umuntu rwose umaze kwitorera uje gushyiramo, agafite mu ntoki agapapuro ke yatoreyeho yakazinze bigaragara ko agiye guhita gashyiramo.

Aha ngaha ni aho imodoka ziparika, imodoka ziraparitse ndetse abagenzi na bo bari kugenda bazinjiramo kugira ngo zibajyane mu byerekezo bigiye bitandukanye, iyo witegereje neza ubona ziparitse muri gare cyane cyane ahazwi nka Nyabugogo i Kigali mu Rwanda.

Aha ni mu muhanda, uyu muhanda harimo imodoka ebyiri ziri mu cyerekezo kimwe bigaragara ko ari umuhanda ufite ibisate bibiri ariko biri mu cyerekezo kimwe, bageze ku kazu ka Airtel, iyi modoka imwe ni Horizon akandi ni akamodoka gato k'ivatiri, bari mu muhanda umwe kandi bari no mu cyerekezo kimwe.

Aha ni mu muhanda. Hari imodoka nziza cyane, ni imodoka igaragara yuko itwaye abantu kandi ikaba ari iyo umushinga. Uyu mushinga bashyizeho imyirondoro yabo barangije bashyiraho na numero waba hamagara ho mu gihe waba ubakeneye.

Aha ni mu muhanda rwagati bari kumanuka, aba ni abamotari babiri umwe atwaye moto itwikiriye zizwi nka rifani, undi atwaye moto isanzwe apakiye agakarito inyuma yambaye kasike y'umuhondo ndetse na jire y'umuhondo ndetse n'ubururu. Neza neza bisa nk'ibya MTN.

Aha hari moto iri mu muhanda iri gutambuka mbese ipakiye. Hanyuma hakurya hari umusore wambaye agapira k'umuhondo, ipantaro ndetse n'isaha. Ari gutambuka yirangariye cyane. Hakurya ye na none hari ahantu bigaragara nkaho ari mu ruganda bari gupakira ibintu byinshi mu modoka ndende.

Iyi ni ishusho igaragaza umuhanda mwiza, umuhanda w'icyerekezo ufite ibice byiza, uteyeho imikindo ku mpande uteye indabyo nziza, usize amarangi y'amoko menshi kandi meza. Uyu muhanda urimo umumotari utwaye moto ndetse uhetse umugenzi.

Aha ni mu muhanda hari imodoka izwi nka howo, iyi modoka irapakiye, iruzuye iri kumanuka umuhanda, hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire, ibyo biti bigaragara neza ko biri gukora ku burebure bw'ikinyabiziga, ikinyabiziga rwose ni kirekire.

Aha ni mu muhanda rwagati harimo imodoka ipakiye ndende cyane izwi nka fuso, ipakiye imizigo nyuma yayo hari izindi modoka. Ku mpande hari ibiti iburyo ibumoso hakaba amazu.

Aha hari imodoka ndende kandi y'ibice bibiri, iri mu muhanda rwagati iri kumanuka, impande zayo hari ibiti, bitewe n'uburebure bw'iyi modoka iri kugenda ikora ku mashami y'ibyo biti, iyi modoka iri mabara umutuku harimo inyuguti zandikishije umuhondo ndetse ikagira igice k'imbere cy'umweru, harimo amabara y'umukara n'inyuguti zandikishije umutuku.

Aha ni mu muhanda urombeje kandi umanuka, uramanuka cyane harimo imodoka ndende zizwi nka rukubana ziri kumanuka uyu muhanda, hakurya yazo hari ibiti.

Iyi ni ishusho y'umuhanda, uyu ni umuhanda bigaragara nk'aho usa nk'aho wangiritse mo gake, urimo imodoka nyinshi ariko iziganje ni iz'ubwoko bw'amatagisi, ni mu muhanda bigaragara ko ari ahantu hahuriye abantu benshi, biragaragara ko ari mu mujyi ariko tagisi ni nyinshi cyane.

Aha hari imodoka iri mu muhanda bigaragara ko ari iy'ubwikorezi, kandi y'ubucuruzi kuko ipakiye ibintu byinshi cyane, irenda gusunga umuhanda pe, hakurya yaho hari ibiti byinshi bigaragara nkaho bigabanya umuhanda mo kabiri.

Aha ni mu muhanda, umuhanda ushunguka, hari imodoka iri kugendamo, imodoka ifite ibintu ibinyoteri imbere n'inyuma, hari umuntu uyicayemo hejuru, yicaye hejuru yimizigo kuko irapakiye, imbere yaho hari ibiti byinshi cyane biri hakurya y'umuhanda ndetse n'amarigori.

Aha hari imodoka zitwara imizigo. Izi modoka ziparitse iruhande rw'umuhanda, hari abagenzi bari guca ahabugenewe abagenzi banyura. Iyo urebye hirya ubona abantu babiri bari imbere ya moto, izi moto zisa nk'izitwikiriye. Bari kuvugana n'uyitwaye bamubikurira amafaranga kuko biragaragara ko ari umu agenti wa MTN.

Aha ni ishusho igaragaza umuhanda, muri uwo muhanda hari icyapa barindiriraho imodoka, abagenzi baricaye barazirindiriye, hari abagenzi bari gutambuka n'amaguru bari kujya mu byerekezo bigiye bitandukanye, bamwe barajya iburyo abandi bakajya ibumoso. Baratandukanye, harimo abamama, abapapa, abana, ndetse n'abagabo.

Aha hagaragara nk'aho ari ku kibuga cy'imikino. Ndetse imikino y'amaboko izwi nka volleyball aha ngaha hari umuntu uri gutegura aho bicara bari kureba imikino. Ahantu haratwikiriye kandi hasa nkaho ari heza cyane.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga, bigaragara ko bari mu mukino, ariko nanone uwo mukino akaba ari umukino w'imyitozo kuko bigaragara ko n'umutoza ari mu kibuga, ari kureba uko bakina anabatoza abererekera, hari amazamu abiri hari irinini ndetse n'akandi gato kari ku ruhande.

Aha hari icyapa kibuza amagare kunyura mu muhanda. Hari igishanyo cy'igare ndetse n'uruziga ruciyemo akarongo, biri mu ibara rya orange ndetse n'amagambo avuga ngo birabujijwe kunyuza igare hano.

Aha hari icyapa ndanga cyeyerekezo cy'umuhanda, kigaragaza ko umuntu ashobora gucamo cyerekezo cy'iburyo. Mu by'ukuri kiri mu ibara ry'ubururu ariko nanone hakazamo akantu k'akarongo k'umweru, biragaragaza yuko icyerekezo ari ukujya iburyo.

Aha ngaha ni aho imodoka zihagarara, ariko hari icyapa na none kibuza imodoka kuhahagarara. Hari igishushanyo cy'imodoka hakaba n'akaziga gaciyemo akarongo, ibyo biri muri oranje bigaragaza ko nta modoka zemerewe kuhahagarara.

Aha ngaha rwose ni igishushanyo kigaragaza umujyi, hari amazu meza, hari imikindo myiza, amamodoka menshi mu muhanda, sinakubeshya amazu hirya no hino aha hantu rwose ni mu mujyi kandi hari amazu meza.

Ahangaha hari abantu. Biragaragara ko ari ku bwinjiriro bw'igice cyahaririye inganda mu Rwanda ahitwa i Nyandungu. Hari umuntu uhagaze ku bwinjiriro bwaho bigaragara ko ariwe ufungura ndetse akanafunga aho hantu.

Aha hari inyubako, kuri izi nyubako hariho ibyapa byamamaza. Biramamariza amasosiyete acuruza, ndetse ibintu bijyanye no kohereza, kubikuza amafaranga. Ni ukuvuga ngo bari kwamamaze emutiyene bakamamaza tigo imbere yaho haparitse amodoka.

Aha hari inzu zo guturwamo bigaragara ko ari ahantu hagenewe guturwa, hari inzu z'ibyerekezo. Hari inzu nziza pe! Ibipangu by'amabara meza hameze neza cyane hari kugaragaramo abantu babiri bari kugenda batekanye, ni ahantu hatuje bigaragara ko ari aho guturwa koko.

Aka ni agace k'imiturire. Ariko aha hantu bigaragara kari mu mugi, ariko nanone hasatira ince z'icyaro. Hari amazu meza y'icyerekezo. Hari mwo amazu akiri kubakwa, harimo n'andi yarangiye. Ariko bigaragara ko hadatuwe cyane.

Aha hari amazu meza ari imbere y'umuhanda, ni amazu meza, ni amazu yubatse mu buryo bugeretse, ni amazu asize amarangi meza aragaragara neza pe! kandi iyo uyarebye ubona ashobora kuba acumbikira abantu kuko ari ahantu hasa nkaho hatuje cyane.

Aha ni ku muhanda. Hari imikindo iri ku nkengero z'umuhanda, hari imikindo iri muri rompuwe, hari indabo ziteye uruhande rw'imihanda, hari utuzu twa airtel, hakaba n'ibyapa byinshi biri ku mapironi y'amatara y'umuhanda.

Aha hari umuhanda ikigaragara cyo uyu ni umuhanda wo mu nce z'umujyi ariko urimo urangirika bigaragara ko kampani zawukozeze zajenjetse ariko nanone si ibyo gusa kuko hari indabyo nziza hari amatara meza yo ku muhanda ndetse n'utundi dutako two mu muhanda hakabamo n'imodoka ziri kuyigendamo.

Iyi foto iragaragaza umumotari uri mu muhanda, umumotari asa nk'aho acuramye, yambaye kasike z'umuhondo ziri mu mabara ya MTN, biragaragara neza cyane ko nawe abyishimiye, ari kugenda nta kibazo kandi imbere ye hari umunyegare utwaye igare nta kibazo nawe afite.

Aha hari moto ziri kunyura mu byerekezo bigiye bitandukanye, imbere yaho hari inyubako, izo nyubako ziriho ibyapa byamamaza ndetse si ibyo gusa hari n'ibiti by'inganzamarumbo, indabyo ndetse n'amapiloni ku muhanda. Izi moto ziriho abantu bambaye amakasiki ari mu mabara ya MTN.

Aha ni mu muhanda rwagati hari umugabo wambaye itaburiya ari kwambukira ahabugenewe, ahabugenewe ubwo ni hamwe baca imirongo yo kwambukirwamo. Biragaragara ko hakurya ye hari ibiti byinshi, ndetse hirya ye hakaba amapironi y'umuriro n'amatara ndetse n'imodoka ziri kuza zisatira aho aherereye.